Abana bicaye ku musambi bafite ibikombe bisa umutuku n'ibindi bisa ubururu, bicaye bakoze ikiziga bari kunywa igikoma, inyuma yabo ku gikuta hometse ibipapuro bishushanyijeho abantu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa n'ubururu hejuru hasi zisa umukara, abandi bambaye imyambaro isanzwe, bakoze ikiziga bahoberanye babiri babiri, hagati harimo umwarimu uri kubatoza.

Ishuri ryicayemo abana b'incuke bicaye ku ntebe zisa n'ubururu, bambaye impuzankano isa umuhondo bicaye bakoze ikiziga, hari umugore uri imbere yabo afite ibipapuro ari kubabwira.

Inzu yicayemo abana babiri bambaye impuzankano y'ishuri, bagaragara nka biga mu ncuke, bicaye ku ntebe zisa umutuku, hari n'ameza asa umutuku, imbere y'umwana umwe hari igitabo.

Abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu bwijimye hasi, hejuru ari ubururu bwerurutse, bakoze ikiziga, iruhande rwabo hari abagore babiri, inyuma yabo hari inzu yubakishije ibiti isakaje amabati.

Abana bicaye ku musambi mu nzu, bambaye imyenda isa y'ibitenge, bafite n'ibikombe bisa ubururu, abandi bafite iby'icyatsi, hagati yabo hicaye umugore wambaye ibitenge uteze n'igitambaro.

Abana bicaye mu isambu bambaye impuzankano zisa n'ubururu hasi, hejuru zisa n'ubururu bwerurutse, umwarimu ahagaze imbere wambaye impuzankano y'abarimu isa umweru, afite undi mwana imbere ye.

Ishuri ryicayemo abana bambaye impuzankano isa n'ubururu bwerurutse, imbere yabo hari umwarimu wambaye umwambaro w'abarimu, abana bicaye ku ntebe z'ibiti, ku kibahu hometseho ibipapuro bishushanyijeho.

Ishuri ryubakishije amatafari, risakaje amabati, imbere y'ishuri hari abana bambaye impuzankano isa n'umuhondo, hasi isa icyatsi, bicaye bakoze uruziga bakina imikino.

Abana bahagaze hari abambaye impuzankano isa ubururu hasi n'ubururu bwerurutse hejuru, hari n'abambaye imyenda isanzwe umwe ahetse igikapu, abandi bari kwirukanka abandi bahagaze.

Amazu yubakishije karabasasu, imbere yayo hari ubusitani burimo abana batonze umurongo, hari umugore uri kubakarabya kuri kandagira ukarabe akoresheje indobo y'icyatsi.

Abana benshi bicaye ku musambi bakoze uruziga, bafite isahani mu biganza byabo, hagati yabo hicaye umugore ufite ifurukanya mu ntoki, iruhande rwe hari umwana uri gukambakamba.

Abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu bwijimye hasi, hejuru ari ubururu bwererutse bahagaze mu ishuri, imbere bafite ibikarito byanditseho inyajwi, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho imibare.

Abana bicaye ku musambi bangana nk'inshuke, bakoze uruziga, umwe ahagaze. Hagati yabo hicaye umugore wambaye igitenge n'umupira, ateze igitambaro, arimo areba ibyo bakora.

Imeza isa umutuku, hicaye abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu bwerurutse hejuru, hasi isa n'ubururu bwijimye, bafite igikarito imbere yabo cyanditseho umubare gatanu, inyuma yabo hari ikibaho.

Igikuta cy'ishuri cyometseho ibipapuro, kimwe kiriho inyuguti zanditse mu magambo y'Icyongereza, ikindi cyanditseho imibare bitangijwe n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza n'ikindi gishushanyijeho inyamaswa.

Abana batoya benshi bicaye ku kumusambi, iruhande rwabo hicaye umugore wambaye itaburiya isa nubururu, asa nk'ubagira inama ku mirire.

Abana bicaye mu gisambu kirimo ubwatsi butoshye bagaragara nk'abana biga mu ishuri ry'inshuke, imbere yabo hahagaze umwigisha wambaye impuzankano y'abarimu arimo ababwira amasomo.

Abana bicaye ku musambi w'inshuke, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bakoze ikiziga hagati yabo harimo ibikinisho, iruhande rwabo hicaye abarezi babo bambaye amataburiya asa ubururu.

Abana bicaye mu ishuri bambaye impuzankano zisa na kaki, abahungu, abakobwa bo bambaye impuzankano zisa n'ubururu, bicaye ku ntebe z'ibiti, bari mu itsinda, bafite ibitabo imbere yabo

Ikigo cy'amashuri abana bari mu kibuga bambaye impuzankano bisa na kaki hasi, hejuru ari ubururu bwerurutse, bari gukina bamwe batera umupira, abandi baterurana, abandi biruka.

Ishuri ririmo sima, harimo intebe z'ibiti zitondetse zegeranye, injerekani imbere yazo, ku ruhande hari ameza ateretseho isahani.

Ikibuga cyubakiye, kirimo ibikoresho bifashisha bakina umupira w'amaboko, iruhande rwayo hari inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati y'ubururu.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hegetseho urubaho rusa nka kaki rwanditseho imibare; hirya hari amagambo y'iyo mibare, yanditse mu rurimi rw'Igifaransa.

Abana bambaye impuzankano izisa kaki, izindi zisa ubururu bahagaze imbere y'umurima uhinzemo imboga, inyuma yabo hari ikiraro cyubakishije ibiti gisakaje amabati.

Ishuri ririmo sima hasi, harimo intebe z'ibiti, hicayemo abana bambaye impuzankano isa n'umuhondo hejuru, hasi isa ubururu, izo ntebe ziteye mu buryo zirebana, imbere yabo hari ikibaho, hari n'akagare k'ubana n'ubumuga.

Ishuri ririmo intebe z'ibiti harimo abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu bwererutse hejuru batatu, bamwe bahetse ibihago byabo abandi bafite ikayi mu ntoki.

Umuntu wambaye inkweto zisa umutuku n'ipantaro, afite agakarito karimo ingwa z'umweru n'ingwa z'amabara nk'ubururu, umuhondo, n'umutuku. Imbere ye hari akabati gatondetsemo ibitabo, biriho idarapo ry'u Rwanda.

Umwana wogoshe cyane wambaye impuzankano isa nk'ubururu, inyuma ye hari igikoresho washyiramo imyanda kimeze nk'inkindobo gisa icyatsi, hirya hari urugo mu imbere ruteyemo igiti.

Abana bicaye mu ishuri ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hateretse mudasobwa zisa n'icyatsi n'umweru barimo bazikoresha, ishuri ryabo ririho urugi rusa n'icyatsi.

Igikuta cyubakishije amatafari, kirambuyeho umufuka usa umutuku ku ntambiko zawo no ku musozo wayo, ahandi isa umweru, wanditse amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Ikigo cy'amashuri imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano zisa n'ubururu, hari abana batatu bafatanye ku ntugu, abandi bari kwirukanka, abandi bari kugenda, hari n'umusore n'umukobwa.

Igikuta cyometseho umufuka ushushanyijeho ibikoresho, harimo ishoka, isuka, nanjoro, ingorofani, ariko banditse amazina yabyo mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu isize amabara y'umweru, hejuru mu kidari hari ibitambaro by'ubururu bifashe ku biti kuri icyo gikuta hariho ibipapuro byanditseho amagambo bisa nk'ibigaragaza amabwiriza imbere y'icyo gikuta hari intebe.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari, gisakaje amabati asa n'ubururu, hari amadirishya asa umukara, imbere yabo hari abana bambaye impuzankano isa kaki hasi, hejuru ari ubururu bwerurutse.

Ishuri ryubakisha amatafari rifite inzugi zisa icyatsi, amadirishya yazo asa umweru, kuri icyo gikuta k'ishuri hometseho urupapuro rusa n'umuhondo rwanditseho amagambo.

Isomero ririmo ibitabo bishaje mu kabati, kuri ako kabati ku ruhande hagiye handitse ubwoko bw'ibyo bitabo, hirya y'ibitabo hateretseho igikapu cy'umukara gishushanyijeho agaseke.

Ishuri ririmo ibitaka hasi, ririmo intebe z'ibiti, izo ntebe zicayeho abanyeshuri, zimwe bambaye imyenda isa na kaki, abandi isa n'ubururu, ku ntebe hariho n'ibikapu byabo.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati asa ubururu, hari ibyatsi ku mpande ahandi ari imbuga irimo igitaka, hahagazemo abana bambaye impuzankano zisa ubururu abandi zisa kaki.

Ishuri ririmo intebe z'ibiti, hicayemo abana babiri n'umukobwa mukuru ,imbere yabo hateretse mudasobwa y'icyatsi ,abana bari kurebamo, biga uko bigenda.

Ishuri ririmo ibitaka hasi n'amabuye riteyemo intebe z'ibiti, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa n'ubururu abakobwa, abahungu bambaye impuzankano zisa na kaki.

Igikuta cyubakishije amatafari cyometseho igipapuro gisa umuhondo. Icyo gipapuro gishushanyijeho balo, intebe, igiti, ikayi na kereyo byanditse mu rurimi rw'Igifaransa.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati, iriho umureko utukura, ifite inzugi z'ibiti zimwe z'icyatsi izindi zisa kake gusa izo nzu zikaba zanditseho n'ingwa.

Abanyeshuri bahagaze imbere y'urugi bambaye impuzankano zisa na kaki hasi hejuru zisa n'ubururu, harimo abafite utubido, abandi bahetse ibikapu byo mu mugongo.

Intebe z'ibiti ziri mu ishuri ziteye mu buryo zirebana, hagati hagasigaramo umwanya, imbere yaho hari ameza y'ubururu n'intebe z'ubururu, amadirishya y'iryo shuri afunguye.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye ridasize amabara, hari ikibaho imbere ya gisa umukara hashushanyijeho umuntu, akaba berekana ibice by'umuntu mu rurimi rw'icyongereza.

Abana bambaye impuzankano zisa n'ubururu hejuru, abandi bambaye kaki, bicaye mu itsinda ku ntebe y'igiti, imbere yabo harambuye amakayi bari gusomamo n'ibitabo, abandi bari kuganira.

Ishuri ririmo intebe zitondetse ku murongo z'ibiti ziteye mu buryo zirebana, harimo abana bambaye impuzankano isa n'ubururu bwerurutse hejuru, ku kibaho hometse ibipapuro bishushanyijeho ibabafasha kwiga.

Ishuri ryicayemo abana, bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye impuzankano hejuru zisa umweru n'imipira y'imbeho isa ubururu, imbere yabo bahagaze umwarimu w'umugore ufite igitabo ari kubigisha.

Ishuri ryicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa umweru hejuru hasi isanga nka kake, imbere yabo hahagaze umugabo asa nk'uri gutanga ikiganiro.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bicaye hasi bambaye impuzankano isa n'ubururu hasi, hejuru hasa umweru, hari n'abambaye imipira ya kaki, inyuma yabo hicaye abarezi babo.

Isomero ririmo ibitabo byinshi bitondetse mu tubati, higanjemo ibifite amabara y'umuhondo, ay'ubururu, ay'umutuku ndetse n'aya kaki bikomeza hirya.

Abanyeshuri bicaye mwi ishuri, bambaye impuzankano zisa na kaki hasi hejuru ari ubururu bwerurutse, bicaye ku ntebe z'ibiti, umuryango w'ishuri ryabo usa n'ubururu, hamwe n'amadirishya yabo.

Abanyeshuri bicaye hasi, bambaye impuzankano zisa n'umweru hejuru, abandi bambaye imipira isa icyatsi, imbere yabo hicaye abantu hari ameza imbere yabo, hahagaze n'umupolisi abaha ikiganiro.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bambaye impuzankano zisa n'icyatsi hejuru, imbere yabo hahagaze abagabo bambaye amakote, ku ruhande rwabo hari abarimu bambaye amataburiya asa umweru, imbere y'abanyeshuri hateretse mudasobwa.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati asa n'ubururu, imbere yayo hari umurima, iruhande rwayo hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Inzu mberabyombi yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa umweru hejuru, hasi ari umukara, bicaye ku ntebe z'imbaho zisa ubururu, imbere yabo hahagaze umupolisi, ufite indangururamajwi abaha ikiganiro.

Inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati, igeretse imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano zisa umukara hasi hejuru umweru, ku ruhande rw'iyo nzu hariho amadapo abiri ari mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi irindi riri m'umuhondo n'umweru.

Inzu yubakije amatafari mbere yayo hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi yicayeho abantu bari gutanga ibiganiro.

Ishuri ryicayemo abana bicaye ku ntebe z'ibiti n'ameza y'ibiti, imbere yabo hari za mudasobwa, bambaye impuzankano zisa n'umweru hejuru hasi ari ubururu.

Urugo rwubatse rufite urugi rusa ubururu, ku rugi hashushanyijeho ishusho ya Bikira Mariya, imbere y'urwo rugo hari ibyatsi byinshi cyane n'ibiti, n'inyuma y'ayo mazu hari ibiti.

Ishuri ririmo intebe z'ibiti ziteretseho ibitabo, ku kibaho handitse imibare n'ingwa y'umweru, hejuru hamanitse igipapuro gisa n'umutuku, hasi hari ibindi bitabo n'amakaye.

Inzu mberabyombi yicayemo abasore n'inkumi, bambaye imipira isa n'icyatsi basa nk'abari ku rugerero, imbere yabo hari ameza asa umweru, bareba imbere nk'abafate ibiganiro.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ku ntebe z'ibiti, bambaye impuzankano, umwe wambaye umupira usa n'icyatsi, undi wambaye ishati isa umweru, undi yambaye agapfukamunwa, imbere yabo harambuye amakayi, bari gusoma ibyo bize.

Abanyeshuri bicaye mu gishararagati basa nk'abasoje, imbere yabo hari abana bambaye impuzankano zisa n'icyatsi hasi hejuru hasa umweru, hari n'abandi bambaye imikenyero hasi basa nk'abari kubyina imbyino za Kinyarwanda.

Ishuri ryicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye harimo umugabo wambaye ikote n'ishati na karuvati arimo atanga amakayi akorerwamo ibizamini bya leta.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye bimanitse mu kabati: hari ibitabo bisa ubururu, ibindi bisa umweru; kuri ako kabati hatambitseho udupapuro twerekana ubwoko bw'ibyo bitabo, hari n'intebe n'ameza.

Ikipe ebyiri ziri gukina umupira w'amaboko bamwe bambaye imyenda isa n'umweru, abandi bambaye umweru urimo ubururu, hagati yabo harimo supanete ibatandukanya batera umupira.

Umuhanda wubakishije sima ukikijwe n'ibiti biriho amababi atoshye bisa icyatsi; harimo abantu batandukanye, hagaragara umubikira wambaye ijipo isa n'umukara, n'ishati isa n'ubururu bwerurutse, afite ivara mu mutwe risa umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari, inzugi zacyo zisa ubururu, imbere yaho hateye indabo, hariho umugore wambaye igitenge, n'umunyeshuri.

Umuhanda urimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa ubururu bwijimye hasi, hejuru ari ubururu bwerurutse bahetse ibikapu byabo mu mugongo bari mu nzira bajya ku ishuri.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe zisa umweru, bambaye impuzankano hejuru isa ubururu, abandi hasi umweru, harimo umugore wambaye ijipo n'umupira usa ubururu afite indangurumejwi ari kubaza umwana umwe yamuhaye indangururamajwi.

Abanyeshuri bicaye hasi bambaye impuzankano isa n'ubururu hasi hejuru isa umweru, inyuma yabo hari ibiti, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi ari kubaha ikiganiro.

Ikibuga kirimo ibitaka, hahagazemo ikipe y'umupira w'amaguru, hari abambaye imyenda isa umutuku, abandi bambaye isa icyatsi n'abandi bambaye isa umuhondo, bahagaze ku murongo, imbere yabo hari umugabo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse, gisakaje amabati asa n'icyatsi, imbere yacyo hari abana bambaye impuzankano zisa n'umweru hejuru, hasi ubururu, imbere yabo hari ubusitani bumanitsemo amadarapo.

Abanyeshuri bicaye hasi bambaye impuzankano zisa na kaki hejuru ari ubururu bwererutse, iruhande rwabo hari ibiti bicaye mu gisambu, hirya hari umugore uri kubaha amabwiriza.

Muri gare aha hagarara imodoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi bajya mu Ntara zitandukanye, hari abanyeshuri bambaye impuzankano zisa n'ubururu hasi hejuru zisa umweru bahetse ibikapu bagiye kwinjira mu modoka.

Umuhanda wa kaburimbo n'undi wamabuye hirya hateye ubusitani, hari umunyonzi uri mu muhanda wa kaburimbo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, kaki hasi hejuru umweru bahetse ibikapu bajya ku ishuri.

Ishuri ryicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa n'umweru hejuru, bamwe bicaye ku ntebe z'ibiti, abandi bahagaze iruhande rw'igikuta, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ipantaro n'umupira, arimo atanga ikiganiro, inyuma ye hari ikibaho.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana bambaye impuzankano zisa kaki n'abandi bambaye izisa ubururu, bicaye hasi hari n'abahagaze hejuru mu nzu zigeretse, hari umuntu uhagaze hasi w'umugore, usa nk'utanga ikiganiro.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano zisa n'ubururu hejuru, hasi zisa umukara, abandi bambaye impuzankano zisa n'umweru hejuru hasi ari kaki, hagati harimo umusore wambaye ipantaro n'umupira arimo agenda genda.

Ibisorori binini bimwe byo mu bigo by'amashuri biteretse ku meza, harimo imboga zirimo idodo, ibishyimbo n'amamininwa biteretse iruhande rw'idirishya.

Abanyeshuri bahagaze kumurongo bambaye impuzankano ya kake hasi hejuru isa ubururu, inyuma y'aho hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hahagaze umuzungu arimo abaganiriza.

Ikipe igizwe n'abahungu, bambaye umwambaro usa n'umutuku hasi, hejuru ari imipira y'umweru bakina, umupira w'amaboko, iruhande rwabo hicaye abantu baje kureba uwo mupira.

Ishuri ririmo intebe ry'ibiti yicayemo abagore n'abagabo bambaye umwambaro w'abarimu, inyuma yabo hari ikigega gisa n'umukara ahegereye idirishya.

Ikigo cy'amashuri, iruhande rwayo hari imodoka yagenewe gucyura abanyeshuri no kubajyana ku ishuri, hari kwinjiramo abanyeshuri bambaye impuzankano isa n'ubururu irimo imirongo y'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa na kaki hasi, hejuru zisa umweru, bicaye hasi imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi wambaye ishati isa n'umukara abaha ikiganiro.

Amashuri yubatse mu buryo bugiye bukurikiranye, haruguru y'ayo mashuri hari indabo ziteye n'igiti kinini mu muhanda hari kugendamo umugabo, imbere y'ayo mazu hari abana bambaye impuzankano.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigiye bigerekeranije, bisasheho amashuka asa, hagiye hateretseho ibikapu, igitanda kimwe cyo hasi cyicayeho umuhungu wambaye ikabutura n'umupira bisa umutuku.

Inzu mberabyombi yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa umweru hejuru, hasi isa na kaki, imbere yabo hagaze umugabo wambaye umwambaro ugaragaza abarimu usa umwe afite indangururamajwi abaha ikiganiro.

Abanyeshuri bicaye hasi bambaye impuzankano zisa n'umweru hejuru hasi ari umukara, bari bambaye imipira isa ubururu, imbere yabo hari amashuri yubakishije amatafari hahagaze umuntu uri kubaha ibiganiro.

Ishuri rifite urugi rusa n'umukara rifite ikibaho gisa umukara cyandikishijeho ingwa z'umweru kiriho imibare n'inyuguti.

Inyubako iriho icyapa cyanditse mu magambo asa ubururu yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Imbere y'iyo nyubako hari abantu bambaye impuzankano y'abaganga isa umweru.

Ishuri ryigiramo abana babana n'ubumuga, iryo shuri rikaba ririmo intebe ndetse n'ameza, hari abana bicaye mu tugare tw'ababana n'ubumuga, imbere yabo hari za mudasobwa.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari, urugi rwayo rukoze mu byuma, hejuru hariho ikirangantego cy'ikigo, imbere y'umuryango hari abanyeshuri bambaye impuzankano isa ubururu hasi, hejuru isa umweru.

Ikigo cy'amashuri gifite amazu ageretse, gisakaje amabati atukura, imbere y'ayo mazu hari ibibuga bikinirwamo umukino w'umupira w'amaboko, mu kibuga harimo abanyeshuri bambaye impuzankano.

Aho imodoka zihagarara hahagaze imodoka itwara abagenzi, harimo abana bicaye abandi bahagaze hanze, bambaye impuzankano isa kaki hejuru zisa ubururu, bahetse ibikapu bagiye kwinjira mu modoka.

Abanyeshuri bicaye mu kibuga ku ntebe zisa n'umukara bambaye impuzankano zisa n'ubururu bwerurutse hasi, hejuru zisa umweru, imbere yabo hahagaze umugabo afite indangururamajwi ari kubaha ikiganiro.

Uruganda rurimo ibikoresho by'amashanyarazi byinshi hahagaze abantu batandukanye bagaragara nk'abakerarugendo imbere yabo hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu asa nk'ubereka uburyo ibyo bikoresho bikoreshwa.

Inzu zubatse zigeretse, zisakaje amabati asa n'umutuku, imbere y'izi nzu hari ubusitani bunini buteyemo ibiti bitatu: Iby'umukindo ndetse n'iby'imbuto.

Ameza arambuyeho amakayi menshi n'ibitabo, ikaramu, igisibisho, imbere y'ayo meza hari intebe abantu bicaraho, hari n'agakapu abantu bifashisha batwara amakaramu.

Ubusitani bunini burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti, muri ubwo busitani hagati hakaba hateye icyapa cy'igiti cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo "birabujijwe guca muri ubwo busitani."

Akazu kubakishije ibirahuri, gasakaje amabati, gateretse ahantu mu byatsi, karimo ibikoresho byabugenewe bakoresha bari kuzimya umuriro mu gihe hagize ahashya.

Ikigo gikikijwe n'ibyuma inyuma hari ibiti byinshi, hagati mu kigo hateye ibyatsi birimo imikindo, hari n'abantu bari kunyura mu mabuye arambuye hasi.

Icyumba, umuryango ukinguye harimo rinde iruhande rw'urugi hari imyenda imanitse na telefone icometse, isaha, amavuta, uburoso n'umuti w'amenyo biteretse aho.

Amazu ageretse yubakishije amatafari, asakaje amabati ya orange, imbere yayo hari ibiti biteye mu busitani, imbere y'ubwo busitani hari umuntu uri kugenda mu kayira gahari kagera ku nzu.

Inzu zubatse ziteranye imigongo, zisakaje amabati y'umutuku, zisize amarangi asa umweru, imwe ifite amasikariye, imbere y'ayo mazu hari utubuye dusashe hasi, n'ubusitani burimo ibiti.

Inzu z' amatafari zikikijwe n'ishyamba rinini, imbere yazo hari ubusitani n'ikibuga hari kugendamo abantu, barimo abagore ndetse n'abagabo bakomeza bagenda.

Inzu ebyiri zigerekeranye gatatu, ziri kurebana hagati harimo inzira, kuri buri nzu hariho abantu bari kugenda, hakurya hari imodoka ziparitse imbere y'ayo mazu.

Icyumba gisize amarange gifite urugi rusa n'umukara, hateyemo ameza ariho agasashi n'intebe zisa n'izisaje, ku ruhande hari agatebe k'ibiti ahantu bicaraho.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigerekeranye, hejuru hasashe no hasi hasashe, ku rugi hamanitse ishati, hirya hari ubukarabiro bwa kizungu.

Abantu bahagaze mu nzu mberabyombi, inyuma ikikijwe n'ibitambaro by'umweru hari abahagaze ku masikariye n'abandi bahagaze imbere inyuma yabo hari ibyuma by'imiziki.

Inzu zigeretse zisakaje amabati ya oranje, imbere y'izo nzu hari ubusitani buteyemo imikindo n'igiti cy'avoka imbere y'ayo mazu hari abantu bahagaze bari kureba muri telefone zigendanwa.

Ikigo gikikijwe n'ibyuma, inyuma y'ibyo byuma hari ibiti bizi nk'imigano binini cyane n'ibindi biti by'inturusu biteye muri jaride iri inyuma y'icyo kigo, hari icyapa kigaragaza iryo zina ry'icyo kigo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigiye bigerekeranyije byombi bisasheho, hariho hari n'ameza, umukobwa yicaye imbere yayo, kumeza hariho ingofero, ikayi, uburoso, icyirori, inyuma ye hari mudasobwa.

Inzu ndende isize amabara y'umweru isakaje amabati asa umukara, inzugi zayo zisa umukara, inyuma y'iyo nzu hari ishyamba ririmo ibiti byinshi, imbere y'iyo nzu hari ubusitani.

Icyumba kirimo utubati dutatu, tumwe dufunguye imiryango n'ameza n'intebe, harimo n'ibicupa bivamo amabara asigwa mu nzu nk'amarangi.

Amazu yubakishije amatafari, asakaje amabati atukura, imbere y'ayo mazu haparitse imodoka ebyiri, hateye n'ibiti by'imikindo. Ku madirishya y'ayo mazu hariho ibikoresho by'umuriro bitanga umuyaga.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi batandukanye, basa nk'abafata ibiganiro harimo abakobwa ndetse n'abahungu, abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari umuryango usohoka.

Inzu igaragara nk'uruganda, ihagazemo abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye b'abagabo, ku gikuta cy'iyi nzu hariho icyapa gisa umuhondo, cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa kisa ubururu, hasi gisa umutuku, kiri ku byuma, giteretse ku muhanda, cyakamo itara mo imbere, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu isa n'icyatsi imbere yayo hahagaze abantu bambaye imyenda isa icyatsi y'amakoti n'amapantaro n'ingofero, harimo abasore n'inkumi bigira ku magufa y'abantu imbere yabo.

Isomero ririmo akabati kariho ibitabo bigiye bitandukanye, ibitabo byo hasi bisa nk'ibiri mu kavuyo, imbere y'ako kabati karimo ibitabo hateye intebe.

Icyapa kiri mu ibara risa n'ubururu hasi hasa umutuku yakamo itara, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, icyapa kiri ku muhanda.

Umuhanda w'igitaka urimo umugore wambaye umupira usa n'umukara n'ipantaro, imbere hari guturuka abagabo bane, inyuma yabo hari inyubako igeretse gatatu isakaje amabati.

Abantu bicaye mu nzu bicaye ku ntebe zisa n'icyatsi, imbere yabo hari ameza bafite za mudasobwa imbere yabo, hariho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka terefoni.

Inzu igeretse isakaje amabati, imbere yayo hari ubusitani bukikijwe n'indabo ziriho uturabo dusa umutuku, muri ubwo busitani harimo imigozi yanitseho imyenda indi myenda yanitse hasi.

Isomero ririmo utubati twinshi, buri tubati turimo ibitabo, kuri utwo tubati hariho udupapuro tugaragaza ubwoko bw'ibyo bitabo, iruhande rwaho hari ameza n'intebe abantu bicaraho baje mu isomero.

Icyapa cyanditse mu magambo y'icyongereza kigaragaza imwe muri kaminuza zo mu Rwanda, inyuma yayo hari igiti ndetse n'urugo ruzitije ibyuma.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu b'abagabo, imbere yabo ku meza hari ibipapuro bihateretse, imbere yabo hagaze umugabo wambaye ipantaro n'ikote, asa nk'ubaha ikiganiro.

Umugore wambaye ibitenge ufite indangururamajwi usutse inweri uhagaze imbere atanga ikiganiro, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu b'ingeri zose, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi imbere hahagaze umuzungu w'umugore asa nk'ubaha ikiganiro, hari n'abandi bafite icyapa cyerekana ibyo bari kwigiraho.

Inzu ebyiri zubatse zegeranye, imwe isakaje amabati asa n'umweru indi yubakishije amabati asa umutuku, inyuma yayo hari ibiti birebire imbere y'inzu y'indi hari ubukarabiro bwa kizungu.

Inzu irimo ameza afite amaguru y'icyuma, imbere yayo hari intebe ebyiri zisa n'izishaje hateretseho igikoresho kimeze nk'ibinika n'utubido dutatu n'ibikombe bibiri birimo uburoso.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu b'ingeri zose abasaza n'abakecuru, abagore n'abana, abagabo n'abasore n'inkumi bicaye mu bice bigiye bitandukanye, imbere yabo hari ibikoresho bikoze mu bitenge.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku, imbere hari umuntu usa nk'utanga ibiganiro imbere aho ahagaze hakikijwe n'idarapo riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu mberabyombi yicayemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa umutuku ateretseho amacupa y'amazi, bafite urupapuro mu ntoki.

Inzu mberabyombi yicayemo umubare munini w'abagabo, imbere yabo ku meza hateretse za mudasobwa n'amacupa y'amazi, imbere yabo hahagaze umugabo usa nk'utanga ibiganiro kuri bo.

Inzu zisakaje amabati asa n'umutuku n'izindi nzu zigeretse, imbere yazo hari ubusitani burimo imigozi yanitseho imyenda y'ubwoko bwinshi.

Amazu maremare hepfo hariho imigozi yanitseho imyenda, iruhande rwayo hariho amasikariye ari kuzamukaho umukobwa, wambaye ikanzu isa n'umukara n'ikoti risa n'umutuku.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro afite amasahani abiri, imwe iriho ifi n'ibirayi n'indimu hejuru y'ifi, indi iriho ibitunguru n'inyanya, aje gutereka ku meza muri resitora.

Mu rusengero rurimo intebe z'ibiti zitambitse, hicayemo abaririmbyi bahanye metero, bambaye amakanzu agaragaza ko ari abaririmbyi, bafite ibitabo mu ntoki bareberamo indirimbo.

Isomero ririmo utubati dutondetsemo ibitabo by'amoko menshi, hari ameza n'intebe abantu bicaramo baje mu isomero, ku gikuta hariho ibipapuro biriho amagambo n'ibishushanyo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi irimo intebe zisa n'icyatsi higanjemo abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi, inyuma hari umuryango usohoka hahagazemo umugabo.

Inzu mberabyombi irimo intebe zisa n'ubururu n'ameza, imbere hari ikibaho gisa umweru, irimo amatara, ifite n'amadirishya y'ibirahure.

Inzu zigeretse zisakaje amabati asa orange, iruhande rwazo hari ibiti bikikijwe n'ibyuma, imbere y'ibyo byuma hari umuhanda hari kugendamo umusore.

Icyumba cy'isuzumiro cyicayemo abaganga bambaye umwambaro uranga abaganga, bambaye na ga zisa ubururu ku biganza byabo bafite ibikoresho birimo inshinge, ibinini n'ibindi bikoresho bijyanye no kuvura.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu b'ikigero bitandukanye, harimo abasore, ndetse n'inkumi. Imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa, imbere yabo hari umugore usa nk'uri gutanga inyigisho.

Igisambu kinini kirimo ibyatsi byinshi, hateretsemo icyapa kinini, cyanditseho amagambo mu bice bitatu, rimwe mu rurimi rw'Igifaransa, igice cya kabiri mu rurimi rw'Icyongereza. igice cya gatatu mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Inyubako igeretse, isakaje amabati ya oranje, hasi y'iyo nyubako hari ubusitani bunini buteyemo ibiti, harimo igiti cy'umukindo, hariho n'imigozi yanitseho imyenda.

Umugabo n'umugore bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, hari undi mugabo uhagaze aberekera uko bikorwa mu mashini y'ibyo bari kureba.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge usutse inweri ahagaze imbere y'abantu bakora muri hoteli, bafite ibiryo bari kwarura atunze agatoki ku byo bagiye kumwarurira.

Ishuri rigaragara nk'iryo muri kaminuza, harimo intebe zisa ubururu n'izindi zisa umukara neza, hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye imbere, ari kureba muri mudasobwa.

Inzu iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hari amasikariye arenga atanu ya sima, inzugi z'iyo nzu zifite ibiti hariho n'ibirahuri.

Isomero ririmo utubati turenga dutatu, harimo ibitabo by'amoko menshi, hari ibisa ubururu, umuhondo, umweru, shokora n'ibindi bigiye bitondetse, bigerekeranye.

Icyumba kiriho ibitanda bibiri bisashe hariho n'imisego, imbere y'ibitanda hari ameza acometseho ibikoresho by'amashanyarazi, imbere y'ibitanda hirya hari akabati gateretseho utubido.

Itente isa umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ashushanyijeho imodoka ndetse n'inzovu, yerekana abantu bakora urugendoshuri batembera u Rwanda n'imisozi.